Icyapa cya radiyanti cyamamaza serivisi z'ubwishingizi kiri no kuburira igihe cy'imvura abantu bagezemo kibasaba kuba bakwitonda, kivuga ko imvura nyinshi n'imyuzure n'ibindi byaza bikabatwara ibyabo.

Icyapa cya radiyanti kiriho telefone, iyo telefone ikaba iriho imibare ariyo akanyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego. Icyo cyapa kikaba cyayoboraga umuturage uko yakwizigamira akunguka agera kuri kane ku ijana ku mwaka.

Icyapa gisa umutuku kiriho umuzungu wishimye cyane wambaye agapira k'umukara, munsi ye hariho izina rye na nimero ze za terefone, kikaba kivuga ko kitabona umunyamategeko ariko kibona umuturanyi.

Icyapa kiri kwamamaza ubwishingizi bw'abantu n'imodoka, bukaba buriho umugabo n'umugore bari mu myaka za bukuru, kikaba giteretse mu busitani busa icyatsi hirya gato hakaba ari umuhanda w'imodoka zigera kuri zirindwi, eshatu muri zo z'amabara y'umweru n'izindi eshanu z'amabara y'umukara.

Akazu k'ubucuruzi karimo utuntu twinshi tugiye tuvangavanze, harimo ibiribwa n'amapurasitike, kakaba kari karimo umucuruzi wateze urugori rusa umweru wambaye n'agakoti k'amabara y'iroza, umukiliya we akaba yari umugore nawe ufite umusatsi mwinshi nawe usa igikara, akaba yambaye n'agasengeri k'amabara menshi.

Inzu z'ubucuruzi, zisize amarangi y'icyatsi, zicururizwamo imyenda yo kwambara, hakaba hari umugore wambaye igitenge cy'amabara y'umutuku, n'umugabo wikoreye imisego y'umukara ibiri n'ibiri y'umweru n'umwe w'umutuku, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare.

Hari abagabo babiri, umwe w'igikara w'umunyafurika wambaye ishati y'ubururu na karuvati irimo amabara y'umutuku n'ubururu, ari kumwe na n'umushuti we w'umuhungu wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru, akaba yari kumwereka atunga urutoki kuri mudasobwa.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyabiziga byo mu bwoko bwa hyundai, bikaba biri mu cyumba cy'amakaro y'umweru n'inkuta z'umweru zisize amarangi y'ubururu. Ibyo binyabiziga bikaba bisa umutuku bitatu muri byo, bibiri bir’inyuma yabyo akaba ari ibikamyo by'ubwikorezi bisize amabara y'umweru.

Icyapa cyamamaza uburyo wakohereza amafaranga aho waba uri hose akagera k’undi muntu aho yaba ari hose hadakenewe cash, kikaba kimanitse ku meza y'umweru n'icyatsi. Kur’ayo meza hakaba hateretseho imashini ibara amafaranga na mudasobwa, hakaba hariho ikiganza cyambaye isaha n'ishati irimo amabara y'umutuku n'umweru, inkweto z'umukara.

Umutegarugori wambaye agakanzu k'umutuku n'inkweto z'icyatsi waruje mu iduka bacuruzamo inyama rikaba ryari ryubakishijwe amakaro ava hasi akagera ku nkuta asa umweru n'ameza y'umweru n'intebe.

Ibirahuri bibiri byamata, n'akabito k'amata gasa umweru, gateretse kumeza iriho agatambaro gashushanyijeho indabyo z'ubururu n'icyatsi. Ako gatambaro na ko kakaba gasa umweru.

Umutegarugori waje guhaha poroduwi zo mu misatsi w'inzobe ubumbye umunwa, wambaye agakoti k'uruhu, ufatanyije amaboko ye yombi, akaba yari ari mu cyumba kirimo amakaro menshi.

Icyumba gifitemo amabara y'umweru n'ubururu n'inzugi z'ubururu, kirimo abantu batatu b'ibikara, umwe w'umutegarugori wambaye ipantaro y'umukara, n'agashati k'amaboko magufi karimo amabara y'umweru, na mugenzi we wambaye agapira karimo amabara y'ikigina n'umukara, na mugenzi wambaye agapira k'ubururu, bakaba bicaye ku meza bari gusangira amata.

Icyapa cyigisha uko wishyura kuri telefone, ari ho bari kukwereka ko ukanda akanyenyeri maganatatu mirongo ine na gatanu urwego ukishyura, rezo zawe zituma ujya kuri interineti ukoresheje momo.

Umutegarugori wambaye agapira k'umuhondo w'inzobe n'misatsi miremire y'umukara, ucigatiye mu kuboko kwe kw'iburyo icupa ririmo icyo kunywa akaba yari gukora kuri mugenzi we w'igikara w'umugabo wambaye ishati y'ubururu ahagararanye n'uwambaye ishati y'umweru nawe w'igikara.

Abantu benshi bari kumurongo harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye bari kwinjira mucyumba gifite inkuta n'urugi bisa umuhondo hejuru Igikuta gisa umukara cyaho bavunjishiriza amafaranga avuye hanze.

Icyapa cyamamaza uburyo wakohereza amafaranga kuri telefone bitagusabye kuyatanga mu ntoki, kikaba kiriho umugabo wambaye agapira k'umweru, amarineti y'umukara mu kiganza cye ufite telefone wambaye n'ingofero y'umweru, akaba ahagararanye n'umukobwa wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ubururu ufite imisatsi myinshi.

Impapuro ziri muri mudasobwa zasinywe n'ikaramu ifite ibara ry'ubururu riteyeho na kashe y'ubururu rikaba ari igipapuro kiva muri yato.

Urupapuro rugaragaza ikibanza cy'aho umuntu aguze, kingana na meterokare magana cyenda makumyabiri n'umunani, meterokare imwe ikaba yari iri ku bihumbi mirongo ine, ikibanza cyose kikaba cyari gihagaze miliyoni mirongo itatu na zirindwi n'ibihumbi ijana makumyabiri by'amanya by'amafaranga y'amanyarwanda.

Inote ya mirongo itanu yo muri Congo igaragara imbere n'iyuma, inyuma hariho inzu enye zikikijwe n'ibiti n'amafi, imbere hakaba hariho isura y'umuntu wambaye agatambaro ku mutwe.

Icyapa cy'abavunjayi cyerekana uko amanyarwanda, amafaranga y'amanyarwanda yavunjirwa, ahinduka mu y'ibindi bihugu. Icyo cyapa kikaba cyariho amadarpo nka Amerika, u Bwongereza, Kenya na Tanzaniya n'u Burayi.

Icyumba kirimo inkuta z'umweru n'ibirahuri, kikaba cyari kirimo abantu bane babiri b'abagabo n'abandi babiri b'abategarugori. Unyegereye akaba yari umutegarugori wambaye agakoti k'umukara w'inzobe n'imisatsi mike n'amaherena ku gutwi y'umweru, akaba yari acigatiye mu biganza bye amafaranga ayashyikiriza umugabo wambaye agashati k'ubururu w'igikara.

Akazu k'abavunjayi b'abazungu bari kuvunja amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye hakaba harimo umugabo wambaye marinete n'ikoti ry'umukara n'umugore ufite imisatsi miremire n'ikoti ry'umukara wicaye imbere ya mudasobwa hakaba hari abakiriya umwe wambaye ikabutura n'undi wambaye agapira k'umweru.

Inzu y'umuntu irimo inkuta z'umuhondo, no hasi hasa amabara y'icyatsi, zirimo intebe zifite amabara y'umukara n'imisego igera kuri itandatu igiye irimo amabara atandukanye, nk'umweru, umukara n'kigina, ikaba irimo amarido asa umweru n'ayandi ajya gusa iroza.

Icyumba cy'amacumbi kinini kirimo igitanda gisashe amashuka y'umweru n'imisego y'umweru, kirimo televiziyo, n'amatara, n'amadirishya, n'inzugi by'ibirahuri.

Inzu zifite inzugi z'ibirahuri, kuri ibyo birahuri hariho ibyapa byamamaza, byari mu ibara ry'icyatsi n'umweru, ku ruhande rw'iyindi nzu hariho ibyapa byamamaza bisa ubururu, imbere yabyo gato hari amatafari.

Ishyirahamwe ryabaturage riri kwaka inguzanyo hakaba hari hari abambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umukara, n'abambaye imipira y'umukara n'ingofero z'umukara. Abaturage basanzwe bambaye imyenda isanzwe.

Ibicuruzwa biri kugurishwa bikozwe n'intoki, harimo imitako n'ingoma n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye n'ibendera ryigihugu cy'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi n'agapira kandiditseho u Rwanda k'icyatsi kamanitse hejuru.

Inzu y'ubucuruzi irimo umugore w'umunyarwandakazi wambaye agapira k'umukara, akaba yacuruzaga ibishyimbo biri ku nkoko isa ubururu, na avoka ziri ku nkoko yindi, hejuru gato hakaba ari imineke n'amaronji, ibinyomoro n'inanasi, n'inyuma ye hakabahari indi mineke myinshi.

Abagore bahuriye ku isoko bari gucuruza inyanya zisa umutuku, intoryi zisa icyatsi, n'insenda zisa oranje, bakaba bambaye ibitenge by'amabara menshi n'abiteze agatambaro mu mutwe.

Inzu y'ubucuruzi isizwe amabara'umuhondo n'ikigina, ikaba yari ikikijwe n'ibinyabiziga byinshi hari icy'icyatsi n'icy'umweru, hakaba hari n'abantu bayegereye bari mu mitaka y'amabara atatu atandukanye ; umutuku, ubururu, n'umuhondo.

Umucuruzi w'umutegarugori witeze agatambaro k'ubururu mu mutwe, akaba ari igikara yambaye agapira k'umweru n'umukara, akaba yari ari gucuruza imbuto zigiye zitandukanye harimo; amatunda, imyembe, inanasi amaronji n'amapapayi.

Umucuruzi wambaye itaburiya y'umuhondo yamamaza MTN akaba yari yambaye agapira k'umuhondo, ari munsi y'umutaka w'umuhondo, hirya gato hari ikizu cy'icyatsi n'igikombe cya oranje n'ibikarito munsi y'ameza ariho agatambaro k'umweru.

Icyapa kiyobora abakiriya, nimero zo kwishyuraho umucuruzi bakoresheje telefone n'amazina bari bubone kuri nimero bagiye kwishyuraho cyangwa kuri kode. Kikaba cyasaga umuhondo, kimanitse ku rukuta n'imisumari ine y'umweru, kiri mu nyuguti n'imibare isa umukara.

Umucuruzi wambaye agapira k'ubururu mu kiganza cye wari ufite ikarita yo kwishyura na mudasobwa akaba yariya inyanya zisa umutuku hirya ye hari umutaka usa umutuku.

Akazu k'umuhondo n'ubururu gafite amadirishya atatu kakaba gahagazemo umuntu w'igikara w'umunyafurika, wambaye agapira karimo amabara y'umweru n'ibara ry’ikigina, inyuma ye hirya gato hari hakikijwe n'inzu ifite amabati y’umutuku n'ibiti by'insina.

Ubusitani bukase neza burimo indabyo nde nini n'ingufiya, harimo n'ibiti byose bisa icyatsi, inzu ikaba yari isize amabara y'umweru ifite inzugi z'ibirahuri zisa umukara.

Inzu iri kugurishwa Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ku mafaranga y'amanyamerika y'ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu.

Icyumba gifite amatara y'umweru n'umuhondo, kikaba gifite n'amakaro asa ikigina, urugi rwinjira muri icyo cyumba rukaba rufunguye, muri icyo cyumba hakaba harimo akabati kabikwamo imyenda yo kwambara.

Icyapa cyo kwamamaza kiri mu mabara y'ubururu kirikwamamaza ubugurire, kugura, kugurisha no gukodesha inzu uciye kuri www.vuba.rw.

Icyapa cyamamaza icyumba kimwe gikodeshwa, muri Remera hafi ya sitade, hakaba hari hari inzu isize amarangi y'ubururu, yubakishijwe n'amatafari.

Inzu ikodeshwa iri i Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu, ikaba yubakishijwe ibikuta bisize amabara y'umuhondo n'umukara n'umweru n'inkingi z'umweru n'ibyuma by'umukara.

Inzu ikodeshwa iri i kanombe i Kigali ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu, hanze ikaba yari ifite amabara y'iroza n'amabati y'ubururu ariwo mureko usize ubururu n'amadirishya n'inzugi by'ibirahure bikaba byasaga ubururu ikaba yari ifite ubusitani burimo amabuye.

Ikiganza cy'umuntu ufite agatabo ka mituwere ko kwa muganga, akaba yari yambaye ishati y'ibipesu y'amaboko maremare n'ikabutura irimo amabara y'umukara n'umweru na oranje.

Abaturage bakikijwe ninzu n'ubusitani bukase neza burimo amabara y'icyatsi n'umuhondo y'ibyatsi, ubwo busitani bukaba bwari bukikijwe n'amabuye n'ikigega gisa umukara kibikwamo amazi y'imvura, n'inzu zifite amabati asa ubururu n'ibikuta by'umweru n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibiribwa bihingwa, aribyo pome z'amabara y'icyatsi n'amabara y'umutuku. Bikaba byari byegeranye n'ibyapa bisa umutuku, biyobora kandi binaranga.

Inzu y'ubucuruzi yitwa simba i Gishushu, ikaba yari ikikijwe n'intebe ziticayeho abantu zisa umuhondo n'ameza y'umuhondo hari n'izindi zisa umutuku. Hirya gato hakaba hari icyapa kigaragaza ko nta muntu ugomba guparika aho ngaho.